Abahinzi b'ibigori bavuga ko ibigori bibafasha kubona amafaranga mu buryo bworoshye, hari ababikora bya kinyamwuga bagatera imiti, bagashyiraho ifumbire maze bakazabona umusaruro mwinshi.

Abahinzi b'ibirayi bavuga ko iyo babyitayeho bagatera imiti, bagashyiraho ifumbire, bituma babasha kubona umusaruro mu gihe gito kandi bakabona n'amafaranga yo gukoresha.

Ibyuzi byinshi bibamo amafi bikunze kuba ahantu mu gishanga kubera ko aborozi bayo ariho babona uko bayitaho bityo bikabaha umusaruro mwinshi.

Ubworozi bw'amafi bufasha ababukora kubona amafaranga mu buryo bworoshye, amafi kandi ntasaba ibishoro byinshi kuko ababukora babona butabagora cyane.

Aborozi b'amafi bavuga ko amafi abaha umusaruro mwinshi iyo bayitayeho bakayagaburira. Akenshi usanga ku masoko, hari amafi meza agura amafaranga make cyane kandi ugasanga aryoshye.

Ubworozi bw'amafi ni ubworozi bufasha abantu kugira ngo biteze imbere. Aborozi bayo bavuga ko babona amafaranga mu buryo badakeka, bityo bikabafasha kwikemurira ibibazo bahura na byo.

Ikawa ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro mu buryo bworoshye, iyo uhinze ikawa ubona amafaranga agufasha gukemura ibibazo bimwe na bimwe umuntu ahura na byo nko gutanga mituweli ndetse n'ibindi.

Abahinzi b'ikawa bavuga ko ikawa ibafasha kwiteza imbere no gukora ibikorwa bitandukanye, ikawa kandi ni igihingwa kerera igihe kirekire ariko kigatanga umusaruro vuba.

Abahinzi b'umuceri bavuga ko iyo bitaye ku gihingwa cyabo babona umusaruro ubafasha kubona amafaranga, akenshi babikora bya kinyamwuga, maze bakabona amafaranga bakemuza ibibazo bahura na byo.

Umuceri ni igihingwa cyiza gifasha abantu benshi batari bake, umuceri kandi iyo abantu bawutetse usanga ubyimba maze ukagaburira abantu benshi batari bake.

Abahinzi benshi bavuga ko iyo bakoresheje ifumbire mvaruganda babona umusaruro mwinshi, uwo musaruro ukabafasha kubona amafaranga, bifashisha bakemura ibibazo bahura na byo bya buri munsi.

Aborozi bakunze kuvuga ko inka zibafasha kubona amafaranga, abenshi bavuga ko iyo bakama inka litiro mirongo itanu ku munsi igura amafaranga menshi bityo akabafasha kwiteza imbere.

Abahinzi b'umuceri bavuga ko iyo bawuhinze mu gishanga, bakunze kuwukuramo amafaranga kubera ko habamo amazi ndetse bakavuga ko amafaranga bakuramo bayakoresha mu bikorwa bitandukanye.

Ushobora kwibaza uti, Ibigori bifite akahe kamaro? Nibyo koko ibigori bifasha abantu benshi kubera intungamubiri byibitseho kandi bigatanga amafaranga ku bahinzi.

Abakora ubworozi bw'inka bavuga ko bubaha umusaruro mu gihe gito. Akenshi usanga babona ifumbire bakoresha mu bikorwa by'ubuhinzi kandi bakabona n'amafaranga bakoresha mu bikorwa bitandukanye byo kwiteza imbere.

Ibiti ni ingirakamaro kuko bikurura umwuka duhumeka. Akenshi abantu bavuga ko ibiti bikorwamo ibikoresho bitandukanye nk'ameza, intebe ndetse n'utubati.

Ibigori ni igihingwa gitanga umusaruro mu gihe gito, abahinzi b'ibigori bavuga ko bibafasha kubona amafaranga bakoresha mu buzima bwa buri munsi ndetse bagakemura n'ibibazo bahura nabyo.

Ibigori ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro. Abantu benshi bavuga ko ibigori bikorwamo kawunga nziza kandi igafasha abantu batari bake kuko igaburira abantu benshi kandi ku mafaranga make.

Ibigori ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro. Abahinzi babyo bavuga ko iyo babihinbye bagashyiraho ifumbire babona amafaranga abafasha mu bikorwa bigiye bitandukanye.

Ibigori ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro mu gihe gito. Abakora ubu buhinzi bavuga ko babona amafaranga bakoresha, mu gukemura ibibazo bagenda bahura na byo.

Umuhanda w'igitaka unyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Ni umuhanda ubona unyura ahantu hagati mushyamba ryinshi cyane kandi hanyuramo imodoka nyinshi cyane.

Abantu benshi bavuga ko iyo bahinze imbuto n'imboga mu gishanga, aho amazi bayabonera hafi kugira ngo bazivomerere, babona umusaruro mu gihe k'impeshyi bikabafasha kwiteza imbere.

Ibidukikije ni ingirakamaro kubera ko bidufasha guhumeka umwuka mwiza, niyo mpamvu usanga abantu benshi bakunda gutera ibiti hafi y'ingo zabo kugira ngo bibakururire umwuka bahumeka.

Ibidukikije ni ingirakamaro kuko bidufasha gukora ibikorwa bimwe na bimwe bitandukanye haba ubworozi ndetse no kudufasha guhumeka umwuka mwiza maze tukumva tuguwe neza.

Ibidukikije ni ingirakamaro kubera ko bidufasha guhumeka umwuka mwiza. Hari abakoresha ibiti babibazamo intebe, ameza, utubati ndetse n'ibindi bikoresho byo mu nzu.

Ibidukikije bituma tubasha guhumeka umwuka mwiza, akenshi usanga ibidukikije bifasha abantu mu bikorwa bimwe na bimwe bitandukanye, nk'imirimo bakora ndetse n'ibindi bikorwa bakora.

Abahinzi b'ibihwagari bavuga ko iyo babikoreye bagashyiraho ifumbire, bakabagarira babona umusaruro mwinshi, ubafasha kubona amafaranga ndetse bakiteza imbere, bagateza imbere n'igihugu muri rusange.

Inyanya ni igihingwa cyiza gifasha abantu kwiteza imbere, iki gihingwa kandi iyo abantu bagikeneye bajya kukigura ku isoko kuko bagikoresha bateka bityo ibiryo bikaryoha.

Abahinzi b'amashuri bavuga ko iyo bahinze bakavomera bagashyiraho ifumbire babona umusaruro mwinshi, akenshi iyo imvura igwa usanga imbuto n'imboga bibasha gukura neza.

Ibidukikije ni ingirakamaro kubera ko bidufasha guhumeka umwuka mwiza, akenshi ibidukikije bikorwamo imbaho zivamo intebe utubati ndetse n'ameza.

Abahinzi benshi b'ibirayi bavuga ko bibaha umusaruro mu gihe gito, iyo babihinze babishyizeho umutima babona amafaranga bifashisha mu bikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, maze bigatuma biteza imbere bakabona amafaranga.

Abahinzi b'umuceri bavuga ko iyo bawuhinze bakawukurikirana babona umusaruro uhamye, ni byo koko umuceri ni igihingwa kiza gifasha abantu kwiteza imbere maze bakabona amafaranga.

Abahinzi b'imbuto n'imboga bavuga ko mu gihe k'impeshyi babihinga mu gishanga bityo bakabona amafaranga. Akenshi mu gihe k'izuba usanga ibi bihingwa biba bifite amafaranga.

Abahinzi bakunze kuvuga ko mu gihe cy'impeshyi bavomerera imyaka bakoresheje ibikoresho byabugenewe by'ikoranabuhanga. Uramutse uvomeresheje ijerekani ntabwo wabona amaboko.

Ibidukikije ni ingirakamaro kuko bidufasha kwiteza imbere, abantu benshi bakunze kuvuga ko ishyamba ari ryo rikurura umuyaga ndetse n'imvura abantu bakabasha kubaho.

Aborozi bakunze kuvuga ko bahura n'imbogamizi zo kubona ubwatsi butunga amatungo yabo. Akenshi mu gihe k'impeshyi bakunze kuziha amazi, n’ubwo nabyo biba bitoroshye kuyabona.

Aborozi b'inka bavuga ko iyo bafashe amafaranga bakayagura inka nyinshi, bakazitera imiti ndetse bakazigaburira, babona umusaruro mwinshi bityo bikabafasha kwiteza imbere.

Ibigori ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro mwinshi. Abahinzi b'ibigori bavuga ko iyo babihinze neza babona amafaranga, abafasha kwiteza imbere. Akenshi aba bahinzi bavuga ko ibigori ari ingirakamaro.

Ibihingwa bigiye bitandukanye harimo ikawa, amageri, amashaza ndetse n'ibindi, bibafasha kwiteza imbere ndetse bakabona ibyangombwa byose bakenera mu buzima bwa buri munsi.

Aborozi benshi bakunze kuvuga ko iyo woroye neza amatungo, bigufasha kwiteza imbere kuko biguha amafaranga ukoresha mu bikorwa, bimwe na bimwe bigiye bitandukanye.

Akenshi usanga inyamaswa zikunda kwibera mu ishyamba, inyamaswa kandi zikurura ba mukerarugendo, bazana amafaranga yubaka ibikorwa remezo bitandukanye, bityo bikihutisha iterambere ry'Igihugu.

Inyamaswa nyinshi zikunze kwibera mu ishyamba, akenshi inyamaswa iyo zibonye ibyo zirya usanga zihora ziguwe neza, hari inyamaswa zirya izindi, hakaba n'izindi zirya ibyatsi.

Inyubako nyinshi zikunze kuba zubakishije amatafari ahiye kugira ngo zibe zikomeye, akenshi inyubako nk'izo usanga zarubatswe kera kandi zarubatswe n'abantu babigize umwuga.

Inyamaswa akenshi zikunze kwibera mu ishyamba, aho zibona ibyokur ya mu buryo butandukanye. Hari inyamaswa zirya izindi, hakaba n'inyamaswa zirisha ibyatsi.

Inyamaswa zo mu ishyamba akenshi zikunze kwiryamira mu biti, iyo zibonye icyo zirya zigahaga ubusanga zaguwe neza zifite amahoro.

Inyamaswa nyinshi zikunze kwibera mu ishyamba maze zigakurura ba mukerarugendo baza kuzisura, akenshi iyo ba mukerarugendo baje mu gihugu basiga amafaranga azifashishwa mu kubaka ibikorwa remezo.